Umuntu uri mu iduka ricuruje imyenda yo mu bitenge ibitenge byamabara atandukanye icyatsi ,umuhondo ,umukara n'andi menshi avangavanze. Imbere hateretse mudasobwa atangiraho fagitire ndetse n'imashini imufasha kubara.

Abantu babiri, umwe afite imashini mu ntoki bishyuriraho, undi afite terefone bari guhezanya, bafite imisatsi bose impande yabo hakaba hari icyapa Kiri mu ibara ry'icyatsi, n'imyenda imanitse icuruzwa.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore, hakaba harimo amakanzu, ibisarubeti n'imipira, imbere mu nzu hakaba harimo amakara y'umweru n'umukara, amatara ari kwaka ndetse inkuta zisize irange ry'umweru hakaba hicayemo n'umucuruzi imbere.

Imodoka zihagaze hamwe eshatu zikaba zisa umukara hirya hakaba hari indi ipakiye imizigo ihahagaze. Inyuma hubatse igipangu cy'amatafari yo muri sima, hari ibiti by'ubwoko butandukanye, hakaba hahagaze n'imodoka ipakiye imizigo isa ubururu.

Igiceri cya makumyabiri cy'amafaranga y'u Rwanda giteretse ku meza, kikaba gishushanyijeho ikirangantego cy'Igihugu, kigizwe n'agaseke, ipfundo, ishaka ndetse n'ikawa.

Umuntu ucuruza amata wambaye itaburiya y'umweru, afite ijage ari kubuganiza amata mu yindi jage, imbere ye mu idirishya hahagaze abantu babiri barimo bagura amata, idirishya rikaba risize irangi ry'ubururu.

Iduka ricuruje amandazi na keke biri mu ndobo, bikaba biteretse ku meza y'ibiti asa kacye, urugi rukaba rusize irangi ry'ubururu hariho ibyapa bigaragaza ku bacuruza amata. Mu muhanda hakaba harimo umuntu uri kugenda.

Idukacuruza ibyokurya n'ibyo kunywa hasimo irangi ry'ubururu hasi hakaba harimo amakaro y'umweru bacuruza amata y'inyange ndetse n'amata asanzwe y'ikivuguto harimo amandazi n'imigati n'ibindi byo kurya harimo abakiriya bari kugura amandazi.

Abantu bicaye bari kunywa amata na kake, bakaba bicaye mu ntebe z'umweru na ameza y'umweru, imbere yabo hahagaze umuntu uri kubakira, wambaye umupira w'umweru imbere ye hakaba hateretse igicuba n'utujerekani turimo amata.

Intebe zo mu ruganiriro zikoze mu biti zifite imisego y'umweru n'ameza ari hagati na yo akoze mu biti. Mu nzu hasi harimo amakaro y'umweru, ku bikuta na ho hasize irangi ry'umweru.

Ameza n'intebe bikozwe mu biti abantu bicaraho bari gufata amafunguro ari impande y'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka, ndetse na moto biri kugenda impande y'umuhanda hari amapoto ariho itsinga z'amashanyarazi n'amatara amurika mu muhanda.

Ahantu hari imitaka y'umukara iteyemo intebe n'amezaza byo kwicaraho, hakaba hari ubusitani buteyemo indabo z'ubwoko butandukanye, imbere yaho hakaba hari amazi abantu bari kogamo bakora siporo banaruhuka.

Ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye, buteretsemo ameza n'intebe abantu bicaraho zikoze mu biti, ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru, kiriho amasahane, ibirahure birimo ibyo kunywa n'icupa.

Inzu ndende isize amarange y'umweru ikaba yakira ba mukerarugendo ndetse n'abandi bantu bashaka kuruhuka, hanze hateye imitaka abantu bicaramo bari kuruhuka cyangwa bari kurya, hakaba hari n'amazi abantu bogamo.

Ubusitani buteyemo ibyatsi n'indabo zitandukanye, harimo intebe n'ameza abantu bicaraho, ziriho umutaka ubakingira imvura, imbere y'ubusitani hubatse inzu isakaje amategura ,isize amarangi y'ivu ikaba yubatswe n'amatafari ahiye.

Inzu ndende isize amarange y'umukara, umweru ndetse n'umuhondo ikaba yakira abantu batandukanye harimo na ba mukerarugendo, imbere yayo hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'amazi abantu bogamo bari kuruhuka.

Inzu y'ubakishije amatafari ahiye isakaje amategura, ikaba isize irangi ryo mu ibara ry'ivu ku nzugi ndetse n'amadirishya, ifite imireko ifata amazi imbere hakaba hahagaze imodoka zitwara abantu ku giti cyabo.

Inzu irimo intebe n'aho bakira abakiriya, hakaba harimo mudasobwa, amazi yo kunywa n'ibindi bikoresho byo mu biro, hakaba igikuta gasize irangi ry'umweru n'umukara, urugi rusize irangi ry'umweru hariho icyapa cy'ubwishingizi bwa sonarwa.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari mu nama ni inzu irimo amakaro y'umweru ibikuta bisize irange ry'umuhondo, hejuru hakaba hari igisenge cy'umweru n'umukara hari n'amatara ari kwaka, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa, ameza atatseho ibitambaro by'icyatsi.

Inzu ikoreramo ikigo cy'imari cya Unguka, imbere y'aho hahagaze abantu harimo abagore bambaye imikenyerero n'udupira tw'umutuku, umugabo uhagaze inyuma yabo wambaye amadarubindi n'ushinzwe umutekano, imbere y'aho hakaba hahagaze imodoka y'umukara.

Isoko ririmo abantu benshi harimo umugabo uri gucuruza isambusa ziri mu ndobo y'umweru, hari abamama bahagaze imbere barimo bamugurira nawe ari guterura abahereza, impande yabo hateretse umufuka urimo ucuruzwa, n'itabureti iteretseho ibase.

Umugabo uri gucuruza isambusa zo mu burayi, ziri mu ndobo, akaba ari mu isoko ririmo imboga, hari ababyeyi bari kumugurira hari umwe utaruye umwana, impande yabo hateretse umufuka ndetse n'itabureti iriho ibase.

Isoko ritubakiye ririmo urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye higanjemo igitsina gore bacuruje imboga harimo: inyanya, intoryi, insenda, n'ibindi biri mu ma base y'umukara, ubururu, icyatsi, hakaba harimo n'indobo zigiye zirimo ibicuruzwa.

Isoko rya Nyabugogo rigezweho, riteyemo amahema y'umweru atatseho ibitambaro by'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari urujya n'uruza rw'abantu, bambaye amakoti n'amapantaro by'umukara, n'amashati y'umweru, ababyeyi bambaye imikenyero, ndetse n'abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'icyatsi.

Abantu bicaye ku ibaraza bari kudoda n'imashini zidoda imyenda, imbere yabo hahagaze umusore wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira urimo ibara ry'umukara n'icyatsi, hejuru yabo hakaba hamanitse ibisabo bacuruje.

Isoko ry'imyenda hakaba hamanitsemo imyenda y'ubwoko butandukanye, icyapa cy'umuhondo cya MTN, harimo abantu bicaye ku mashini zidoda imyenda, hakaba harimo n'abaguze bari kuzenguruka mu isoko.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo moto ebyiri zimaze gutwara abantu, bakaba bari kwishyura bakoresheje telefone, bose bambaye udupfukamuwa tw'umuhondo inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'umweru cyanditsweho n'amagambo y'umukara n'ipoto ry'amashanyarazi, hateye indabo n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu y'umucuruzi wa MTN mu ibara ry'umuhondo, hakaba bahagaze umukiriya wambaye ipantaro y'umukara n'inshati y'ubururu, imbere umucuruzi nawe yambaye agapira k'umukara hakaba hakikijwe n'ibiti n'indabo by'ubwoko butandukanye.

Abantu benshi bahagaze imbere y'umutaka wa emutiyeni usa umuhondo, ukaba uteye mu busitani burimo ibyatsi, ni abagabo n'abagorema harimo uwambaye ikanzu y'ubururu n'uwambaye ijipo y'umukara n'undi wambaye ikanzu y'umutuku.

Inzu yo mu ibara ry'umuhondo y'umucuruzi wa MTN, hakaba hahagaze umuntu wambaye ishati y'icyatsi imbere yaho wambaye umupira w'umuhondo, hirya hakaba hahagaze imodoka ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Imodoka y'umukara itwara imizigo hakaba harimo umuyobozi wayo uyitwara, ikaba ihagaze imbere yayo hahagaze umuntu wambaye umupira w'umuhondo wanditseho ngo ishyura ukoresheje momo, ni uburyo umuntu yishyura akoresheje telefone igihe adafite amafaranga mu ntoki.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendaho abamotari bambaye amakoti y'umutuku n'ingofero z'umutuku, imbere yabo hari imodoka y'umweru ya toyota nayo irikugenda. Ku muhanda hateye indabo n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hubatse n'ishuri ryubakishije amatafari ahiye.

Inzu isize irangi ry'umweru ifite igisenge cy'umweru na kaki ikaba ifite amakaro y'umweru amadirishya y'ivu hanze hakaba hari andi mazu menshi.

Inzu ikodeshwa ni inzu iri ku muhanda Kigali Kabeza ifite ibyumba bitatu n'ubwogero butatu, ni inzu isize amarange y'umweru n'umukara haba ku nzu ndetse no ku gipangu, igipangu kikaba cyubakije urukuta rw'amabuye.

Abantu bicaye hasi mu byatsi inyuma hakaba hari inzu yubatse n'amatafari ahiye; imbere hahagaze umuntu ufite impapuro mu ntoki ari kugenda abahereza impapuro ngo bagende basomaho. Hepfo hubatse indi inzu isakaje amabati y'umweru hirya hakaba hari ubusitani buteyemo indabo n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abantu bicaye kwa muganga baje kwivuza bambaye udupfukamunwa, hakaba hari umwe uhagaze imbere y'abari kumwakira na bo bambaye udupfukamunwa, bafite mudasobwa imbere n'ibipapuro bari kureberaho imyirondoro yabo kugira ngo babuzurize bajye kwivuza.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza igaragaza ko wishyuye amafaranga yo kwivuza. Uyijyana kwa muganga igihe warwaye iriho ifoto yawe, amazina yawe, n'igihe wavukiye, Umurenge , Akarere n'Intara uturukamo. Ikaba iriho n'indangamuntu waje y'uwaje kwivuza.